Abaturage batsindiye igihembo cy'uko bakoranye n'ubwishingizi bukorerwa mu Rwanda, bakaba barakoranye neza bakabahemba ndetse banashishikariza abandi ko ubwo bwishingizi bukora neza. Ukaba wabasanga kuri urwo rubuga cyangwa ukabahamagara kuri izo nimero.

Uko ushobora kubona ubwishingizi bwawe cyangwa ubw'imodoka yawe bukoroheye kandi mu buryo ushobora kubwikoreramo, ushobora kuba wahamagara nimero ziri hano, ndetse ukajya no ku rubuga rwabo.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bijyanye n'ibyihingwa kikagufasha kwishingira ibintu byawe, ndetse mukaba mwababona aho ngaho kuri nimero iraho hasi, cyangwa ku rubuga rwabo bakabafasha.

Uburyo ushobora kubonamo ubwishingizi bwo kwishingira abagize umuryango wawe, ukaba ushobora kubasanga ahantu hose, cyangwa ukabahamagara kuri nimero ziri hano hasi, cyangwa ukanyura ku rubuga rwabo.

Icyapa cyerekana ko hari ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, bikaba byereka umuntu, cyangwa umuguzi aho ashaka kuba yakwerekeza mu gihe bimwo...

Ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda kikaba cyishingira yaba, ibinyabiziga ndetse n'abandi bantu muri rusange, kandi ukarushobora kuba wabasanga ku rubuga rwabo mu gihe ukeneye ko bagufasha.

Iduka rinini kandi ryiza, risa neza, ririmo ibikoresho ushobora gukoresha ndetse ribonekamo imyenda yo kwambara yaba ari iy'abana ndetse n'iy'abantu bakuru.

Umutegarugori witeje imbere akaba ari gucuruza iduka rinini ririmo ibintu bigiye bitandukanye haba ibyo kurya ndetse n'ibyo kwisiga bigiye bitandukanye kandi bikaba bimufasha kwiteza imbere.

Abaturage bari mu isoko rinini baje guhaha ibintu bitandukanye ndetse bakaba bari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga mu kuba bakwishyura ibyo bahashye.

Akabati kariho imitako myiza kandi isa neza ushobora gushyira mu nzu iwawe cyangwa ahandi hantu ndetse n'imyambaro y'abagore myiza isa neza.

Iduka rinini ushobora kubonamo imyambaro cyane cyane ku y'abagore hakaba habonekamo amakanzu meza cyane abereye ijisho kandi ku giciro gitoya.

Iduka ry'ubucuruzi ririmo imyenda igiye itandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'imyenda ikorerwa hano mu Rwanda, hakaba habonekamo iy'abagore ndetse n'imitaka yo kwitwikira izuba.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'ubukorikori ndetse n'ibyo gushushanya, hakaba harimo ibyo ushobora gutaka mu nzu yawe ndetse n'imideri ushobora kwambara ku bagore cyangwa abadamu.

Iduka rinini kandi ricuruza inkweto zaba iz'abagabo ndetse n'iz'abagore, ukaba wabonamo inkweto nziza z'uruhu kandi zikomeye cyane.

Umwenda wo kwifubika ukozwe mu gitenge ukaba ari umwenda mwiza kandi ugaragara neza ndetse ufite n'amabara meza bikaba bigaragara ko hari n'indi myenda myinshi cyane ikorerwa aho.

Umucuruzi uri kwereka umuguzi ko imyenda ashaka ari myiza kandi ihendutse ikaba ari imyenda y'abagabo cyangwa iy'abasore kandi ko iri n'ahantu hasa neza.

Iduka rinini cyane ririmo imyenda y'abagabo, ikaba ari imyenda myiza cyane kandi ifite amabara agiye atandukanye, ku buryo buri muntu wese ubonye aha hantu abona ko hasa neza, kandi ashobora kubona ibyo yifuza.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'imyenda cyangwa ibyo kurya bitandukanye, hakaba harimo imisego yo kuraraho, ikaba ikozwe mu bitenge byiza cyane utasanga ahandi.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'imyenda y'abagore yambarwa ndetse n'ibitenge byiza cyane bifite n'amabara meza bikaba biri ahantu hasa neza kandi hafite isuku.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bijyanye n'imyenda yo kwambara, yaba iy'abagore ndetse n'iy'abagabo hamwe n'iy'abana, ukaba ushobora kubonamo amabara yose ushobora kwifuza kandi hakaba ari ahantu harangwa n'isuku nyinshi.

Abacuruzi bacuruza ibijyanye n'imyenda yo kwambara cyane cyane iy'abagore, bakaba kandi bikorera iyo myenda, iyo washaka yose ukaba wayibona kandi ikaba ari imyenda myiza cyane.

Umucuruzi uri gucuruza akoresheje ikoranabuhanga akaba yishimye kandi aseka kuko ubucuruzi bwe buba buri kugenda neza akaba ari gucuruza ibijyanye n'inyanya ndetse n'ibitunguru kandi bikaba bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ikinyabiziga cyiza kandi kiri ahantu heza kigurishwa ku mafaranga makeya kikaba cyarakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri, bukaba ari ubwoko bwiza kandi bugezweho ku isi.

Ikigo gishinzwe kugura cyangwa kugurisha ibinyabiziga mu Rwanda, kikaba cyizewe, hakaba harimo ibinyabiziga bigera muri bine, bigurishwa bakaba bifashisha uburyo bwiza kandi bwihuse.

Ibinyabiziga bikorera sosiyete, ishinzwe gutwara abantu ndetse n'ibintu, bikaba ari ibinyabiziga bikiri bishyashya kandi biguzwe bushyashya, bikaba bitwara abantu bafite urugendo runini, ruva i kigali rujya mu ntara.

Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu yakoreshwaga kera cyane akaba ariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'abandi bantu bariho akaba yarakoreshwaga mu bintu bigiye bitandukanye.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, akaba ari gufasha umuturage mu kuba yabona ubwo buryo mu buryo bumworoheye cyangwa akaba ari kumwereka uko na we yakwikorera ibyo bintu.

Amafaranga y'u Rwanda igiceri cya makumyabiri, kikaba cyarakoreshwaga mu myaka ya kera, kikaba gifite akamaro kanini cyane, kandi hakaba hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umukozi w'ikigo arigufasha umuturage mu kuba yabitsa cyangwa yabiguza amafaranga ye mu buryo bworoshye kandi bwihuse, umuturage nawe akaba ari gukora cyangwa yuzuza urupapuro rumwemerera cyangwa rumufasha kubitsa amafaranga cyangwa bikuza.

abashinzwe umutekano ndetse n'ibinyabiziga bitwara cyangwa byimura ibikoresho cyangwa amafaranga biyajyana ahantu hamwe kandi biyajyana ahandi bikaba bikorerwa umutekano n'abantu babyigiye.

Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bibiri akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda kandi manini ashobora gukora ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Ubucuruzi bworoheje burimo ibijyanye n'ibyo kurya byoroshye dushobora gufata mu masaha ayo ariyo yose habonekamo amata ndetse n'amazi n'ibyo kurya nk'amandazi cyangwa capati.

Umutegarugori mwiza kandi usa neza, ari ahantu banywera amata, arindiriye ko bamufasha, akaba ashobora kuba ari kwitegereza ibiri gukorerwa ku ruhande.

Imbuto ziryoshye kandi zinogeye amaso, zigira ingaruka nziza ku mubiri wacu, nk'imineke ndetse n'ipapayi, ukaba ushobora kubigura, bakabigushyirira ahantu heza hafite isuku.

Amafunguro yoroheje dushobora gufata mu gitondo tugiye, akaba yakwifashishwa nko mu gihe udahita, urya ibiryo kandi akaba akozwe mu ifu y'ingano.

Abacuruzi babiri bari gucuruza ibicuruzwa byabo bijyanye n'amata yitwa Mukamira, akaba ari amata aryoha cyane yaba abakuru ndetse n'abatoya bakaba bashobora kuyanywa.

Igikoresho gishyirwamo amata kugira ngo kigumane umwimerere wayo agume ari mazima kandi kiyasugure kugira ngo abaje kuyanywa cyangwa abaje kuba bayagura bayatware akifite ubuziranenge bwayo.

Impapuro zifashishwa kandi zisukuye, ushobora gukoresha mu gihe intoki zidasa neza, ukaba wazifatisha nk'ibyo kurya ugiye kurya, kandi zikaba zifunitse, zidashobora kugerwaho n'umwanda.

Ibyo kurya bikundwa n'abantu benshi cyane bikaba bibonekamo intungamubiri mu gihe ubiriye, ibyo byo kurya kandi bikaba byifashishwa mu kuba watunganya amafunguro ya mugitondo yoroshye kandi aryoshye.

Amafunguro yoroheje umuntu ashobora gufata mu gihe cya mu gitondo, aya mafunguro kandi akaba akozwe mu buryo bw'ifarini, cyangwa ingano zihingwa mu Rwanda.

Ubucuruzi bwo gucuruza amata bukaba yujuje ubuziranenge, akaba ari ahantu heza ndetse anapfundikiye neza, ukaba wabonamo ay'abana ndetse n'abantu bakuru bashobora kunywa.

Icyuma gifasha kuba cyayungurura amata cyangwa kigatuma amata akomeza kugumana ubuziranenge bwayo ku buryo abaza baje kuyagura basanga akimeze neza.

Amata yo kunywa akundwa n'abantu bose yaba abato ndetse n'abakuru akaba afunze mu macupa yujuje ubuziranenge kandi ku buryo buri muntu wese ashobora kuyanywa atagize icyo amutwaye.

Gucuruza ibijyanye n'ibyo kurya bikozwe mu mafarini, ibyo byo kurya bikaba bifite isuku ndetse bikaba biri mu gikoresho cyabugenewe kugira ngo buri muntu wese abirye bifite isuku.

Umucuruzi ucuruza ibyo kunywa, cyane cyane amata, akaba ari ahantu heza kandi hafite isuku, akaba ari kumwe n'uje kuba yashaka amata aho hantu.

Inyemezabwishyu igaragaza ko wohereje cyangwa wahaye umuntu amafaranga kuri konti yiwe, bikaba bigaragaza igihe wayatangiye, itariki ndetse n'amazina y'uwo ugiye.

Ibyapa bigiye bitandukanye byerekana ko hafi aho ngaho hakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari kunyuraho umuturage akaba ari kureba icyapa cyerekana ko aho ngaho hakorerwa ubucuruzi bwo guhinduranya cyangwa kuvunjisha amafaranga.

Ibyapa byerereka abaturage ko hafi aho ngaho hari ibiro bihinduranya amafaranga, biyavana mu gihugu kimwe biyajyana mu kindi gihugu kandi bikaba bikorwa mu buryo bworoshye.

Ikigo gishinzwe kuba cyafata amafaranga kiyavunjisha, hakaba hariho ibyapa birangira abaturage baje bagana iki kigo mu gihe bakeneye ubafasha mu kuba babona amafaranga.

Icyapa cyereka abaguzi cyangwa abandi bantu ko aho ngaho hari ubucuruzi bugendana n'ibyo kuvunjisha amafaranga, ukaba ushobora kubabona kuri nimero ziri aho ngaho hasi.

Intebe nziza zo mu ruganiriro zisa neza kandi zoroshye, zikaba ziri kumwe n'imeza yayo, ukaba ushobora kuzifashisha mu gihe haje abantu kugusura kandi zikaba zikozwe mu giti.

Ubucuruzi bucuruza intebe zo mu ruganiriro ndetse n'ameza meza cyane hamwe n'utubati two kubikamo ibintu bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba bikorwa mu mbaho cyangwa ibiti.

Ibikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi bikaba ari byiza kandi bikoranye ubuhanga bwinshi cyane, iki gikoresho rero kikaba gikorwa mu bwoko bw'igiti.

Igikoresho gikozwe ku rubaho cyangwa mu giti, akaba ari igikoresho wifashisha mu gihe ukeneye kuba waterekaho imitako kugira ngo aho ushaka kugishyira habe hasa neza kandi hagaragara neza.

Icyumba ushobora kuraramo mu gihe ukeneye kuruhuka akaba ari ahantu heza kandi hari isuku nyinshi cyane hakaba hizewe umutekano muntu uri aho hafi kuburyo ushobora kuryama kandi ukaruhuka neza.

Intebe nziza kandi zikomeye ziri kumwe n'Imeza yazo ikaba ishobora gushyirwa mu ruganiriro akaba hari ameza akozwe mu mbaho zikomeye.

Aho ushobora gukarabira intoki kandi heza hagezweho hakoranye ikoranabuhanga rigezweho ukaba wakaraba intoki mu gihe uvuye mu bwiherero cyangwa mu gihe ukeneye kwisukura ahandi.

Inyubako nziza isa neza ikaba ifite ahantu heza ushobora gusohokana n'abawe kandi hakaba hasa neza hari indabo nziza ndetse n'amatara hagaragara neza.

Inyubako nziza kandi isa neza rwose ifite ubusitani bwiza buteyemo indabo ndetse n'ibiti. Akaba ari ahantu heza ushobora gusohokana n'abawe mu gihe mukeneye kwishima.

Aho gukarabira intoki mu gihe uvuye mu bwiherero cyangwa mu gihe ukeneye kwisukura, bikaba ari uburyo bwiza kandi bworoshye ushobora kwifashisha kandi ukaba wabonamo n'ibigufasha kumutsa intoki.

Umutobe wavanywe mu mbuto zigiye zitandukanye yaba amaronji ndetse n'inanasi hamwe n'imineke, bikaba biryoha cyane kandi bikaba bigira n'intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Amasaha ya ni mugoroba mu muhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hari na bimwe bitari kugenda ndetse n'inyubako ku ruhande iri gukorerwamo ubucuruzi butandukanye n'amatara ari kugenda amurikira ibyo binyabiziga.

Ahantu heza kandi hasa neza, ho kwicara usohokanye n'abawe, mugafata icyo kunywa ndetse hakaba hari n'intebe nziza cyane zisa neza z'umutuku kandi hakaba hatwikiriye ku buryo nta zuba cyangwa imvura byakugeraho.

Inyubako nziza kandi isa neza ushobora kubonaho ahantu ho kwidagadurira ku buryo wakoga ndetse ukicara unaruhuka hakaba hari ahantu harangwa n'isuku kandi hatekanye.

Inzu isa neza, irimo intebe nziza kandi zisa neza, akaba ari ahantu ushobora kwakirira inshuti zawe, ndetse nawe ukishimira kuba uhicaye.

Inyubako nziza ifite ahantu heza hasa neza, ushobora gusohokananira n'abawe cyangwa gukorera ibirori, ikaba ifite ubusitani busa neza ndetse n'indabo nziza.

Inyubako nziza kandi isa neza, ifite ibiti hanze ndetse n'ubusitani busa neza iriho amatara kandi ukaba wabonamo ibyumba byo kuba wararamo mugihe ukeneye kuba uri kuruhuka.

Ahatunganyirizwa ibyo kurya hasa neza kandi hari ibyo umuntu ashobora gukenera kugira ngo abashe gutunganya amafunguro ye mu buryo bworoshye ndetse n'aho gukarabira intoki.

Ibikoresho bitandukanye haba harimo iby'imitako ndetse n'intebe zo kwicaraho mu gihe ufite abantu baje kugusura, ndetse n'ameza matoya asa neza anagaragara neza.

Inyubako ndende kandi nziza, ushobora gusangamo amacumbi menshi cyane ahantu hagiye hatandukanye kandi heza, hafite isuku n'umutekano, ikaba iri hafi n'umuhanda uteyeho ibiti kuruhande.

Inyubako ndende kandi nziza, isa neza, ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, hakaba hegeranye n'umuhanda, uri gucamo abaturage bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga hamwe n'ibiti n'ubusitani.

Inyubako ndende kandi nini, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, haba iby'ubwishingizi ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hariho ibyapa biranga ko bakora ibyo bintu.

Inyubako ndende irimo ubucuruzi butandukanye, harimo ubujyanye n'uko wagura ubwishingizi bwawe ndetse n'ubw'ibintu byawe hanze hari abaturage bari kugenda.

Icyapa cyerekana cyangwa kirangira abantu baje bagana ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, bikaba byorohereza buri muturage wese kubona ubwo bufasha mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Abanyamaguru bari kunyura ahabugenewe hemerewe kugendwa na bo, ku ruhande hakaba hariho inyubako ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda.

Inyubako nziza kandi isa neza, aha hanze hakaba hari ubusitani ndetse n'amatara ikaba ikorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi ku baturage, kandi ikaba yizewe ikaba ikoreshwa n'abantu benshi mu Rwanda.

Abamama cyangwa abadamu bahagaze bambaye neza, imyenda y'umuco w'u Rwanda ariyo mikenyero, bari ku nyubako ishinzwe n'ibijyanye no gutanga ubwishingizi mu Rwanda

Isoko rikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo abaturage benshi cyane b'urujya n'uruza bazanye imyaka yabo mu kugurishwa, hakaba harimo ibitoki ndetse n'ibirayi.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'ibyokurya, twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukaba dusangamo ibijyanye n'ibitoki, ndetse na pavuro, ndetse n'ibitunguru, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa byabo bijyanye n'amafi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bakaba bari kuyatunganya kugira ngo atagira ikibazo abaza bayagura bayagure akiri mashyashya kandi ameze neza.

Isoko ry'ubucuruzi rinini cyane kandi rigari rikorerwamo ibintu bigiye, bitandukanye hakaba hari ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, hakaba hari kugendwamo n'ibinyabiziga, nabyo bitandukanye, ndetse n'abaturage bavuye mu mpande z'igihugu.

Inyubako iri gukorerwamo ubucuruzi butandukanye n'abacuruzi bavuye hirya no hino, hakaba harimo ibijyanye n'ibiribwa inyanya ndetse n'insenda hamwe n'intoryi n'ibindi byinshi.

Isoko rinini cyane rikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibyokurya hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye; nk'inyanya na pavuro, karoti, intoryi n'ibindi byinshi ushobora gusanga mu biribwa turya mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umucuruzi uri gucururiza mu isoko rinini hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba habonekamo n'ibijyanye n'ibitunguru ndetse n'inyanya ndetse n'imineke.

Isoko rinini cyane riri mu umujyi wa Kigali ririmo abaturage benshi bavuye mu mpande zigiye zitandukanye, baje gucuruza ibiribwa kugira ngo babashe kubona amafaranga abatunga.

Abacuruzi bari gucuruza ibijyanye n'imyenda yo kwambara, ibitenge by'abagore, hakaba hari kugurirwamo abanyamahanga, bakaba bari kureba ibyiza by'ubwoko bw'ibyo bitenge biboneka mu Rwanda.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, yaba ibyo kurya, ndetse n'ibinyabiziga bihagaze, hamwe n'ibitwaye abantu, n'abagenzi bari kugenda, cyangwa abari mu kazi kabo ka buri munsi.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'imitako ndetse n'ibyo kwambara hakaba harimo ibyo ushobora gutaka mu nzu yawe ndetse n'utwo ushobora kwambara kandi byinshi bikaba bikozwe mu bwoko bw'ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali, impande y'inyubako rinini ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, haba ibijyanye n'imyenda ndetse n'ibyo kurya.

Inyubako nini kandi ndende ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye rikaba riri hafi mu mujyi wa kigali hakaba hakorerwamo ubucuruzi bugiye bitandukanye haba ibyo kugurisha imyenda ndetse n' ibyo kurya.

Umucuruzi ari gucuruza ibijyanye n'imyenda yo kwambara y'abagore, cyane cyane ibitenge, bikaba kandi bifite amabara meza umuntu wese ashobora gukunda, ukaba wabidodeshamo imyenda igiye itandukanye.

Isoko rinini ririmo urujya n'uruza rw'abaturage, bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'ibiribwa turya mu buzima bwacu bwa buri munsi harimo: nk'inyanya ndetse n'intoryi na karoti.

Umucuruzi uri gucuruza inyanya zo guteka ndetse n'abandi bari hirya, bari gucuruza ibijyanye n'ibiribwa harimo nk'ibishyimbo kandi akaba ari kumuha ibyo ashaka byiza kandi bifite n'isuku.

Abaturage bari mu isoko bari mu kazi kabo ka buri munsi k'ubudozi ndetse n'abaturage bandi bahagaze ku ruhande n'ibinyabiziga bihagaze bidatwaye abantu hamwe n'inyubako ziri hirya na none zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Isoko rinini ririmo ibijyanye n'ubucuruzi bw'imyenda ndetse y'ibitenge, hakaba hari gukorerwamo abamama bari gukora umushinga w'ubudozi, bikaba bibateza imbere kandi binateza imbere igihugu.

Inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ikaba ifite ibintu bigiye bitandukanye naho gushyira ibinyabiziga hanze ndetse n'umuhanda ku ruhande.

Abaturage bari gucururiza cyangwa baje kugura inkweto zo kwambara yaba iz'abana cyangwa iz'abantu bakuru, ikindi kandi hakaba harimo n'imyenda y'abagore y'ibitenge byo kwambara.

Abakozi b'iduka rinini cyane ndetse n'abaguzi baje kugura, bakaba bari kwishyura bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresheje uburyo bworoshye bwo kwishyuramo amafaranga.

Akazu gatoya gakoreramo ubucuruzi bujyanye n'itumanaho mu Rwanda rya Emutiyeni rifasha abaturage baza bagana ahantu kugira ngo babashe kubafasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, bari gufasha umuturage mu kuba bamukemurira ibijyanye n'ibibazo ashobora kuba yahuye na byo kandi banamwereka uko yakwifasha mu gihe batari kumwe.

Inyubako y'ubucuruzi, nini kandi ibonekamo ibintu bigiye bitandukanye, bijyanye n'imboga zo kurya, hakaba harimo karoti, ndetse n'intoryi, n'ibindi bikoresho twifashisha, mu gihe cyo guteka.

Abaturage bari gufashwa n'abakozi b'ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, bakaba bari kubereka uko bashobora gukora uburyo bworoshye bakuraho amafaranga cyangwa bayashyiraho kugira ngo bajye babyikorera.

Inzu ikorerwamo ibijyanye na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ariyo MTN ikaba iri gufasha abaturage mu kuba bakwikorera ibintu muri telefoni yabo uko bakwishyura cyangwa babitsa amafaranga

Umukozi w'ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, akaba ari gushimira umukiriya wabo waje abagana ku bufatanye bakorana mu bijyanye n'iryo tumanaho.

Akazu gatoya gakorerwamo ibijyanye ni iby'itumanaho mu Rwanda kakaba gafasha abaturage bari hafi mu kuba ba kwigurira ama unite cyangwa babitse amafaranga baknayabikuza.

Umukozi w'ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda akaba ari kumwe n'umuturage ufite igare, akaba bari kuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa n'imikorere y'iryo tumanaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'iby'itumanaho mu Rwanda hakaba harimo umuguzi aje kuba ku bijyanye n'uko yakwigurira amanite cyangwa yafata amafaranga n'uko yayabitsa nubwo a yayabivuga.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene mu rwanda bari gufasha abaturage uko babona amafaranga byoroshye babitsa cyangwa babikuza amafaranga mu gihe bari mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kujyanira abantu ibintu batumye cya vuba vuba akaba ari kujyana ibyo babatumye akoresheje ikinyabiziga cye kugira ngo bimworohere yihutishe ibyo yatumwe.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ibyo kurya cyitwa vuba vuba, kikaba gifasha abantu kubagezaho ibyo batumije mu buryo bwihuse, kandi buboroheye.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kujyana cyangwa gushyikiriza abatumije ibyo kurya kikaba cyifashisha ikinyabiziga mu kuba bageza ku bantu ibyo babatumye kandi byihuse no mu gihe gito.

Umukozi w'ikigo cya Kasha ari kujyana ibicuruzwa cyangwa ibyo babatumye ku muguzi, akaba ari kwifashisha ikinyabiziga cye kugira ngo abashe kugera ku batumye.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe bushobora gutumirizaho ibintu by'ikoranabuhanga haba inkweto ndetse n'ibindi bikorwa ushobora kuba wakeneraho bikaba ari ubuntu mu kubikugezaho.

Ibinyabiziga bine biriho kugenderwaho n'abakozi b'ikigo gishinzwe kuba cyajyana ibicuruzwa byabo ku babatumye, kandi ibyo bikaba bibafasha kuborohereza no kwihutisha ibyo bintu baba bajyanye.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe ibyo gutumiza cyangwa kugura cya vuba vuba, bakaba bifashisha ikinyabiziga kugira ngo bibafashe kwihutisha akazi kabo.

Umukozi w'ikigo cyitwa safi ari kumwe n'umuguzi akaba amushyikirije ibyo yari yatumije kandi uyu mukozi akaba yitwaza ikinyabiziga cye kugira ngo kimworohereze mu kazi ke ka buri munsi akora.

Inyubako nziza iherereye Kicukiro mu Kagarama, ikaba ifite ahantu hasa neza kandi heza hafite isuku, ukaba wayikodesha ku mafaranga makeya cyane.

Icyumba cyo kuraramo gikodeshwa amafaranga makeya, kikaba giherereye Kibagabaga kandi kikaba gisa neza ndetse kinafite n'umutekano, ku buryo umuntu wese ushobora kuza aho ngaho, ashobora kugikodesha amafaranga make cyane.

Inzu nziza yo gukodesha, isa neza, irimo kandi intebe nziza ndetse n'imeza hamwe n'icyumba cyo gutekeramo cyiza kandi cyisanzuye, ikaba iri Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga make cyane.

Inzu nziza kandi nshyashya irangijwe kubakwa vuba, ushobora gukodesha ukaba wabamo iri i Remera, ikaba irimo ubwogero bubiri ndetse n'aho kuryama, ikaba ikodeshwa amafaranga make cyane.

Inzu nziza kandi ikodeshwa ku mafaranga makeya, ushobora kuba wabonamo ubwiherero bugera muri bubiri, ukaba wayibona ahantu bita i Remera, muri Kigali, hakaba harangwa n'isuku.

Inyubako zikodesha amacumbi yo kuraramo, zikaba ziherereye Kibagabaga, aho hantu kandi hakaba ari ahantu hasa neza hafite isuku, hakaba habonekamo ahantu ushobora kurara ndetse no kuba wakogera kandi ku mafaranga make cyane.

Inzu nini, kandi iri ahantu hasa neza, isize amarangi meza agaragara neza, ikaba ifite ahantu ushobora gushyira ikinyabiziga cyawe, ikaba iri muri Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga make.

Inyubako nini kandi isa neza igurishwa ikaba iri i Kigali m'u Rwanda, ikaba ifite ubwiza ndetse n'ibikoresho byiza bigezweho umuntu ushobora gushyira mu nzu y'iwe kandi ukabona isa neza, ikaba iri ku giciro gito.

Icyumba cyiza gisa neza kandi gifite ibintu byose nkenerwa ushobora kwifashisha mu gihe uri ahantu uryamye, hakaba harimo utubati ushobora kubikamo imyenda yawe ikaguma itekanye kandi hakaba hafite n'isuku nziza kandi nyinshi.

Inyubako iri kugurishwa iherereye Kibagabaga ni nziza kandi ifite ibikenerwa byose umuntu ashobora gukenera cyangwa kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi ikaba iri ku giciro gito cyane.

Inzu ikodeshwa iri muri kigali ikaba ari inzu nziza ifite ubwogero mo mu imbere bwiza kandi bugezweho busukuye, bukaba bugaragara neza iyo nzu ukaba ushobora kuyikodesha amafaranga makeya ku mwaka cyangwa ku kwezi.

Icyumba cyiza cyo gukodeshwa kandi gisa neza kiri Kacyiru ahantu heza, ukaba wagikodesha ku mafaranga make cyane kandi ahendutse.

Inzu ikodeshwa isa neza ifite amatara meza ndetse n'amarangi asa neza mo imbere hamwe n'intebe zo kwicaramo z'umweru ikaba ikodeshwa buri kwezi ukaba wayibona muri kigali.

Inzu nziza kandi ikodeshwa iri i Kanombe ikaba iri ahantu heza kandi hasa neza ikaba ifite ibikenerwa byose wakoresha mu nzu kandi ikaba ikodeshwa amafaranga makeya.

Icyumba gikodeshwa cyo kuraramo, kikaba kiri Kabeza ahantu heza, hashashe neza kandi harinzwe cyane, ukaba ushobora kugikodesha ku mafaranga make cyane.

Inzu ikodeshwa nziza kandi ifite ibikenewe byose byo mu gikoni ushobora kwifashisha mu gihe uri guteka kandi hakaba harimo ibikoresho bigezweho kandi byorohereza uri guteka ikaba iboneka Kabeza.

Inzu nziza ifite ubusitani bwiza hanze ndetse n'ibiti byiza ikaba iboneka Kacyiru muri Kigali ukaba ushobora kuyikodesha ku mafaranga makeya cyane ku kwezi.

Inzu nini kandi nziza, igaragara neza, ifite amarangi meza ndetse n'ahantu heza ushobora kuba washyira ikinyabiziga cyawe, ikaba ikodeshwa amafaranga makeya mu kwezi.

Inyubako ikodeshwa irimo ibikenerwa byose cyane cyane hakaba harimo ibijyanye n'aho watekera ndetse naho wakogera, ikaba ikodeshwa amafaranga makeya kandi hakaba harimo icyumba kimwe cyo kuraramo.

Inzu nziza ikodeshwa Kimironko isa neza, ifite ahantu hanini ndetse n'amarange asa neza, ukaba wasangamo ibyumba byo kuraramo bigera muri bitatu, hamwe n'ubwogero butatu kandi ikaba ikodeshwa amafaranga make cyane.

Ubutaka bugurishwa bunini kandi buri ahantu heza umuntu ashobora kugura mu gihe akeneye nko kwagura bizinesi ye akayishyira ahantu hanini cyangwa akaba yashyiraho inzu zo kubamo cyangwa izo gukodesha.

Ugurisha inzu ari kwerekana inzu nziza afite isa neza kandi iri ahantu heza ifite ibikoresho nkenerwa byose umuntu ashobora kwifashisha kandi ukaba ushobora kuyibona no ku mafaranga make cyane.

Inyubako igurishwa iri mu mujyi wa Kigali Kabeza ikaba iri ahantu heza, kandi hasa neza, ifite umwanya munini ushobora kuba washyiramo ikinyabiziga cyawe, ndetse ikaba ikoreye amasuku, isize n'amarangi asa neza.

Inzu nziza ifite amarange asa icyatsi, ikaba iri ahantu hanini kandi hitaruye, ikaba ibonekamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyumba by'ubwogero bibiri ndetse naho kurara hagera muri hatatu, ikaba iboneka aho bita Kimironko.

Inzu nziza, iri mu Mujyi wa Kigali, Ibatsinda, Kagugu, ikaba igaragara neza ndetse ikaba ifite ahantu heza, hakaba harimo ubwogero bubiri ndetse n'ibyumba byo kuraramo bigera kuri bine, ikaba igurishwa amafaranga makeya.

Inyubako nshyashya kandi igaragara neza iri mu mujyi wa Kigali igurishwa ikaba ushobora kuyibona kuri miliyoni magana atatu n'eshanu kandi ikaba irimo ibikenerwa byose wakwifashisha.

Inzu nziza iri Kabeza, iri ahagana ku muhanda, hakaba harimo ibyumba bitatu n'ubwogero butatu, ikaba ari inzu nziza, isa neza, ifite ndetse n'amarangi meza.

Inyubako nziza kandi isa neza, iri ahantu heza ushobora kuba wararamo, ikaba iri ikibagabaga ikaba ishobora gukodeshwa amafaranga make cyane ,irimo ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri.

Imurikagurisha riri kubera ahantu runaka, bakaba bahazanye ibikoresho cyangwa ibyo bacuruza bitandukanye bivuye mu bindi bihugu, hakaba kandi hari n'abanyamahanga baje muri iryo murikagurisha.

Isoko ry'ubucuruzi rinini cyane, riri gucuruza imyenda itandukanye, cyane cyane hakaba habonekamo iy'abagabo ndetse n'iy'abandi bantu kandi iyo myenda ikaba ari myiza cyane inahendutse.

Inyubako irimo ahakorerwa ubucuruzi butandukanye ndetse n'icyapa cyereka abaguzi ko hafi aho ngaho, hari ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'ibikoresho bya elekitoronike mu Rwanda.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hakaba harimo abantu b'urujya n'uruza baje kugura cyangwa kugurisha ibintu byabo bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho usanga mu rugo.

Umuturage uri guhaha ibyo kurya bigiye bitandukanye kandi bifunze neza mu mashashi, ibyo bintu akaba ari kubyishyura akoresheje uburyo bworoshye bw'ikoranabuhanga bugezweho.

Ubucuruzi buri gukorwa ahantu hahurira abantu benshi hakaba harimo imyenda igiye itandukanye ndetse n'amashakoshi y'abagore hamwe n'imyenda y'imikandara y'abagabo.

Ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo inkweto z'abagabo ndetse n'imikandara y'abagabo hamwe n'inkweto z'abadamu, hakaba harimo kandi n'amashakoshi y'abamama.

Umuturage uri kugenda mu iduka rinini cyane, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyokurya ndetse n'ibyo kunywa, byo guteka ashaka, hakaba hari bimwe mu bintu ashobora kuba yahashye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko rinini, ricuruzamo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'imyenda y'abagore, harimo amashakoshi ndetse n'imyambaro yabo.

Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda akaba ari kumwe n'umuturage ari kugezwaho ibihembo ashobora kuba yaratsindiye muri icyo kigo ndetse anashimirwa n'uburyo akorana n'icyo kigo.

Ubwishingizi bw'igihe kirekire bw'ejo heza ni bwiza kandi bugoboka abantu, mu gihe hari ibyo bashaka gukora ndetse no mu gihe bageze mu zabukuru.

Abaturage bari kumwe n'abana babo baje kubakingiza, bari kwerekana ko bafite udukarita two kwivurizaho kandi tukaba tubafasha kuba bakurikirana ubuzima bw'abana babo.

Abayobozi b'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda bakaba bari gufasha abaturage kubona ubwishingizi, mu kwivuza mu buryo buboroheye, kandi bwihuse bunoroshye kwishyura.

Umuturage ari kwandika amazina ye cyangwa ari kuzuza ku rupapuro rumwemerera kuba yakwivurizwa mu buryo bwemewe na Leta, akaba ari kwifashisha ubu buryo kugira ngo bijye bimworohera mu kuba yagana ubuvuzi.

Umuturage ufite urupapuro rumwemerera cyangwa rugaragaza ko yishyuye amafaranga ya mituweli y'ubwishingizi mu kwivuza, bikaba byoherereza umuturage mu kuba yabona ubuvuzi bwihuse.

Umujyanama w'ubuzima ari gufasha umuturage mu kuba yakwivuza mu buryo bwihuse, amubarura, amwandika mu gitabo kugira ngo bijye bimworohera kuza kwivuza.

Umuturage wahembwe amafaranga menshi ku bigo bigiye bitandukanye, yagiye yifatanya na byo cyangwa akorana na byo neza, bikaba byamuhembye amafaranga menshi cyane kandi bikamushimira.

Iduka ririmo utubati tukaba turimo ibyo kurya biryohereye bikundwa n'abakuru ndetse n'abana, bikaba biri ku giciro gitoya kandi cyorohereye buri muntu wese kuva yagura.

Isoko ry'ubucuruzi ricuruzamo ibijyanye n'imbuto zo kurya kandi bikaba bihendutse binafite ubuziranenge, bikaba bifite n'isuku ku buryo bipfunyitse ahantu hadashobora kugerwa n'umwanda.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ibiribwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, birimo mu moko atandukanye kandi ibyo biribwa byose bikaba byujuje ubuziranenge binafunze neza, ku buryo nta mwanda ushobora kugaragara kuri ibyo bintu waba uje kugura.

Iduka rinini cyane ririmo ubucuruzi bugiye butandukanye, buboneka ku byo kurya ndetse n'ibyo kunywa buri muntu wese ashobora kwisangamo, akaba yahaha ibyo bintu.

Iduka rinini cyane kandi ryiza rifite isuku hakaba harimo ibijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa abantu bose bashobora kuba bakunda kandi bikaba bifunze byujuje n'ubuziranenge.

Iduka rinini rikorerwamo ubucuruzi butandukanye cyane cyane hakaba harimo ibyo kurya turya mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'imbuto ziryoshye cyane.

Iduka rinini cyane ry'ubucuruzi burimo ibintu bigiye bitandukanye, umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari guteka cyangwa ashaka gutegura ibiryo byiwe byoroshye kandi hakaba hariho n'ibiciro bigaragaza icyo kintu uko kigura.

Iduka rinini cyane kandi rikorerwamo ubucuruzi cyane cyane ku bijyanye n'imbuto hakaba harimo kandi n'ibindi bintu bitandukanye nk'ibyo guteka cyangwa ibyo kurya.

Isoko rinini ry'ubucuruzi ririmo ibintu bigiye bitandukanye, umuguzi akaba ari kwitegereza ibyo bintu ashaka kugura ndetse hakaba harimo n'icyapa cyerekana cyangwa kiranga ahantu ugeze, ukaba ushobora kubona ibyo ushaka mu buryo bwororoshye.

Iduka rinini rikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye rikaba ribonekamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, n'ibyo guteka mu gihe umaze kuba wafata ibyo ukeneye hakaba harashyizweho uburyo bwiza bwo kwishyura ibyo wafasha.

Iduka rinini cyane rya sawa, rikorera mu mujyi wa Kigali, rikaba ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane igice kikaba kibonekamo ibijyanye n'ibikorwa n'amasuku yo mu bwiherero, ukaba wabona kandi n'ibiciro byabyo kuko biba biriho.

Iduka rinini kandi rifite isuku, ririmo ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo kunywa ndetse n'ibiryohereye, ibyo kurya abantu b'abana bakunda.

Ibyo kurya biryoshye kandi biryohereye, bishobora kuribwa n'abantu bagiye batandukanye yaba abana ndetse n'abantu bakuru, bikaba bisangwa mu iduka rinini ribicuruza.

Iduka rinini kandi ririmo ibintu bigiye bitandukanye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari kandi uburyo bwiza bwashyizweho bw'uko ushobora kubona ikintu kikwegereye hafi aho ngaho n'uko kigura.

Iduka rinini ry'ubucuruzi ririmo ibintu bigiye bitandukanye rifite isuku, hakaba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kandi ibyo bicuruzwa bikaba bifiteho igiciro cyabyo ku buryo byorohereza umuntu kuba yakibona.